Abantu bicaye mu nzu mberabyombi, barimo ingeri zitandukanye, abagabo ndetse n'abagore, bigaragara ko hari ikiganiro cyangwa se inama bitabiriye kandi bafite imico myiza.

Ameza akozwe mu biti asize irangi rya shokora, ateretse mu nzu isize irangi ry'umweru ndetse n'umukara.